Ahantu hahagaze umugabo, inyuma yaho hari ibikorwaremezo haragaragara nk'aho hari imbaho, imbere y'uwo mugabo hari umuntu ufashe mikoro usa nkaho arimo amubaza amakuru ajyanye n'ibyo bikorwaremezo bihari cyangwa se ibyo bikorwa bya koperative se cyangwa iby'umuntu umwe ku giti cye bihari.

Umugabo ufite mikoro bigaragara ko ahagaze imbere y'abantu ari kubwira, ababwira ibintu bijyanye no kwiteza imbere muri Nyagatare, bijyanye n'ishoramari.

Ni muri bali, harimo umuntu ucuruza ibinyobwa, harimo n'intebe zo kwicaraho abashaka ibyo kunywa, harimo na firigo yo gushyimo ibyo gukonjesha, ku bashaka ibintu bikonje.

Hari iduka rinini cyane ririmo ibintu byinshi bitandukanye by'ibikoresho byo mu rugo amavuta, ibyo kurya imineke, amavuta yo kwisiga, ayo guteka ibintu byinshi bitandukanye nyine byo mu rugo umuntu akenera, harimo umuntu umwe ubicuruje wasetse.

Ahantu hari iduka ririmo ibintu bitandukanye :umuceri, akawunga, isukari, amabombo, ibirungo byo guteka, amagi, inkweto bigaragara ko ari iduka ricuruza ibintu bitandukanye.

Ahantu hari abantu benshi cyane, bigaragara ko habayeho nk'ibirori runaka, barimo barabyina, bishimye, bambaye imyenda y'ibirori, bakenyeye, bigaragara ko hari nk'ikirori cyabaye, hari amatete; bitabiriye nk'ibirori runaka.

Ahantu hateguye neza cyane hari ameza n'intebe bisa neza bigaragara ko ari ahantu ba barira, hari ameza agihe ariho inimero zitandukanye bigaragara ko nyine ugenda ugafata ahantu bitewe na nimero baguhaye.

Ahantu hari inyubako nziza cyane ziri ahantu heza cyane, hari jaride nziza, izi nyubako zigaragara nkaho hari hoteri cyangwa moteri runaka.

Ahantu hari ibikoresho bitandukanye biri kuri shitingi hariho: imyuko, indobo, bisorori, ibyuma, amapata, situruwaya. Bigaragara ko ari ahantu babirambitse hasi, babicuruje baba bategereje abakiriya.

Ahantu hari ibicuruzwa bitandukanye, umuceri, amasabune, ama ji, imiceri itandukanye y'ubwoko bwose, bigaragara ko ari mu iduka runaka cyangwa mu isoko, ahantu umuntu acururiza.

Ahantu hateguye neza hari ameza ariho; urusenda, umunyu, hari intebe nziza bigaragara ko ari resitora runaka bateka icyo kurya.

Inyubako nziza cyane, igeretse, inshuro ebyiri, iri ahantu heza, hatuje, bakoreramo ibikorwa byo kwakira ababagana, harimo ifunguro, ibyo kunywa, bya saa sita, bya mu gitondo, bya nijoro n'ibindi.

Ahantu hari inyubako nini cyane. Hagiye hateye amatabure ariho intebe nyinshi cyane, bigaragara nkaho ni muri resitora, ni muri kafe, ni ahantu abantu bafatira ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Ahantu iruhande rw'umuhanda haparitse abanyonzi benshi cyane, bambaye imyenda y'akazi. Harimo n'abandi batayambaye bigaragara ko ari abagenzi. Harimo n'abandi bambaye imyenda y'ubururu, bigaragara ko ari abakarani cyangwa se abandi bantu bakora indi mirimo.

Umumotari atwaye umugenzi mumuhanda, mubigaragara nta bandidi bagenzi benshi barimo yubahirije amategeko y'umuhanda, bambaye kasike nk'ibisanzwe umugenzi ni umukobwa afite akabaga mu ntoki.

Mu muhanda harimo mote imwe, harimo, hariho abagenzi babiri, bigaragara ko ari umu motari ufite umugenzi atwaye, bari gusa nk'abazamuka, bagana bagana ahantu runaka.

Hano hari ikinyabiziga gitwara abantu n'ibintu aricyo moto, hicayeho umumotari aparitse ahantu ategereje ko ari bubone umugenzi.